Icyapa gisa n'umweru, cyandikishije amabara atandukanye , amwe asa n'umukara andi gasa n'ubururu , hashushanyijeho agaseke kameze neza cyane, abantu barasoma , bituma umuntu atayoba ahantu agiye.

Icyumba cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye . Hari n'irangi risa n'umuhondo , ndetse n'ikibaho bifashisha bandikaho amasomo atandukanye ,ikindi kandi harimo n'intebe bicaraho hari n'ameza bandikiraho.

Intebe bazikora mu mbaho, abantu barazifashisha bazicaraho, abantu bari mu nama abandi bari kwiga, ikindi kandi hari ikibaho gisa n'icyatsi, kiriho amabara asa n'umweru.

Amashuri yubatse mu buryo bumeze neza, yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati asa n'umweru. Ikindi kandi imbere yayo hari pasiparume abantu bicaraho, hari indabyo, hahanitseho imyenda isa n'umweru. Hirya yayo hari amashamba ameze neza cyane bayitaho kuko atanga umusaruro.

Abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umukara andi asa n'umweru, bambara amarinete ku maso. Imbere yabo hari ibikoresho bifashisha baririmba bita mikoro, hari n'abari gucuranga gitari.

Abantu bita ababaji bambara, ibisarubeti bisa n'ubururu ku mitwe yabo hariho ibikoresho bita koteri, baba bari kubaza ibiti, baba babyitayeho neza cyane kuko bitanga umusaruro ushimishije bakoramo intebe, ibitanda n'ibindi.

Abanyeshuri bicara ku ntebe zitandukanye, bambara imyenda isa n'umweru, mu mutwe biteye agatambaro gasa n'umweru, imbere yabo hari umuntu uri kubabwira, hirya y'iwe hari abantu bambara imyenda isa n'umukara.

Abantu bambara imyenda isa, ku minwa yabo hariho udupfukamunwa, imbere yabo hari ameza ateretseho mashini, hari n'uducupa turimo amazi, ikindi kandi hari umuntu uhagaze uri kubereka ibyo bakora.

Abanyeshuri bambara imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'icyatsi, abakobwa bambara ku mitwe, udutambaro dusa n'umweru, hagati yabo hari umuntu bita umuporisi, wambara isaha, afite ikaye mu ntoki.

Abantu bicaraga ku ntebe, bambaraga imyenda ifite amabara atandukanye, imbere yabo hari igikoresho bita ameza baterekaho mashini, amakaramu, ikindi kandi bari kwandika, undi ari kumwereka ibyo banditse, abandi bari kureba.

Abanyeshuri bane bambaye imyenda y'impuzankano, bambaye amashati asa n'ubururu, bafite icyapa gishushanyijeho amabara atandukanye, harimo ibara ry'umukara, harimo amabara y'ubururu, harimo amabara y'umuhondo n'ibindi.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubwogoshi, harimo umugabo wicaye ku ntebe yambaye agatambaro gasa n'umutuku, umugore ari kumwogosha, hirya yabo hari igishushanyo kiriho inyogosho zitandukanye, inyuma yabo hari imashini, igikoresho bakoresha bahuhisha mu mutwe, hari n'amaporodowi atandukanye.